Inama Mpuzamahanga yita ku Buzima bwa Muntu, aho abayobozi barebera hamwe uko ubuzima bw'abantu buhagaze muri rusange ku isi yose.

Umuganga ari kwita ku bana batoya, akabatera urukingo rubarinda indwara, zishobora kuzabafata, igihe batahawe urukingo rw'izo ndwara.

Abantu benshi bari kumwe harimo abana n'abantu bakuru, biganjemo abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe.

Ikiganiro kiri gutangwa ku bantu benshi bahuriye mu nzu mberabyombi, biga ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe, bahabwa ibiganiro.

Ivuriro ryabugenewe ryo kwita ku buzima bwo mu kanwa, ahari ibikoresho nk'intebe abarwayi baryamaho, iyo bari kubakura amenyo cyangwa se bari kuyahoma.

Umugabo w'umwirabura arimo arakora isuku y'amenyo yiwe akuraho imyanda yaba irimo, yifashishije urudodo rwabugenewe rufite isuku kandi rugaragara neza.

Ibiganza byu'umuvuzi wita ku buzima bw'amenyo, agaragara ari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kumenya amenyo y'umurwayi afite ikibazo.

Umuvuzi wita ku buzima bw'amenyo, ari mu bitaro aho akorera, ahari ibikoresho yifashisha ari kuvura abantu, yambaye itaburiya n'isaha, ari iruhande rw'agatanda abarwayi baryamaho.

Uburyo bwo kwita ku kumenya ubuzima bw'abantu, uburyo buhagaze, bakabapima indwara mu rwego rwo kwirinda ibyorezo n'indwara zandura mu buhumekero.

Inyubako zabugenewe zo mu mavuriro, aho abarwayi badafite imbaraga barara, kugira ngo bakomeze kwitabwaho no gukurikiranwa n'abaganga baharara.

Inzu zabugenewe abarwayi bitabwaho n'abaganga. Muri izo nzu harimo ibikoresho byabugenewe bituma bitabwaho neza bagakurikiranwa kugeza bakize.

Umuganga ari mu bitaro ari kwita ku ruhinja rwavutse, bari mu bitaro bifite ibikoresho byabugenewe byo kwita ku barwayi.

Ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bushingiye ku myitozo ngororamubiri, buhabwa abafite umubyibuho ukabije ndetse n'abifuza kuwurwanya.

Ibyo kurya byabugenewe byiganjemo imboga n'imbuto, bifasha cyane cyane umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agabanye ibiro.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera gakondo, harimo ibumba, igisura ndetse n'iyindi yifashishwa mu kuvura indwara nk'igifu.

Ibimera bitandukanye byiganjemo amababi bikoreshwa mu buvuzi gakondo, harimo n'ibijyanwa mu nganda bakabikoramo imiti izakoreshwa mu gihe kirekire.

Imiti yagenewe kongera intungamubiri ku bantu bafite intungamubiri nkeya mu mubiri wabo, kandi itarimo isukari nyinshi ku buryo yatera ibibazo.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, bakayikoresha batabanje kuyinyuza mu nganda bityo ikaborohera kuyigeraho vuba.

Umuti wabugenewe wo koza amenyo ukozwe mu bimera gakondo, harimo igikakarubamba n'indi miti gakondo.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ribyibushye rifite ahantu baterurira, ufite umupfundikizo utukura ukozwe mu gikakarubamba cyanyujijwe mu nganda kugira ngo kibikike igihe kirekire.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu, ikozwe mu bimera gakondo ariko yanyujijwe mu ruganda kugira ngo ibikike igihe kirekire kandi yifashishwe kuvura.

Umuti usukika, wagenewe gukora amasuku, ukozwe mu bimera gakondo, kandi utangiza ibidukikije, ukuraho ibizinga, ahantu handuye.